Umurima munini uhinzemo inanasi nyinshi cyane, hakaba hari abantu baje kuzisura aho harimo umuntu wambaye ibikoresho byabugenewe bisa nk'aho gutera umuti izo nanasi, hari n'abandi bantu bari guturuka hirya, iruhande rwe hahagaze umugabo ufite ikayi ye ndetse na telefone ngendanwa.

Ni ahantu hari ikidendezi cy'amazi hakaba hari n'abandi bantu bahari. Hari umugore ufite ibasi bisa nkaho hari utuntu ari kunaga muri ayo mazi. Inyuma ye hakaba hari umwana muto w'umukobwa uhagaze wambaye ikanzu y'umweru ndetse inyuma y'uwo mwana hakaba hari inka irimo iranywa amazi aho hantu bari hari ibiti byinshi.

Ahantu hameze nko ku gishanga hakaba hateye insina ndetse n'ibindi biti bigiye bitandukanye, hari utuzu tuhubatse ubona ko ari utuzu twifashishwa n'abantu baba baje ku gishanga kurinda imiceri ndetse n'ibindi bikorwa bahakorera.

Abantu bahagaze iruhande rw'icyuzi bakaba bafite indobo ndetse n'ijerekani ikase ku munwa bisa nkaho hari ibintu barimo bashaka kuko umwe muri bo yunamye mu ndobo arimo arereka abandi bamuhagaze iruhande.

Ni umukobwa ufite ibisuko, akaba yashyize ifi ku meza, aho afite akantu bisa nk'aho wagirango ngo hari ikintu arimo arayihandura, iruhande ku meza hateretse utundi dukoresho dutandukanye.

Ahantu hari uruzi ndetse iruhande yarwo hakaba hari ibimera ubona bitohereye by'ibyatsi. Hakurya y'urwo ruzi hari ibiti by'inganzamarumbo bihari.

Abantu batatu b'abagabo ubona ko bari mu kazi kabo k'uburobyi, bafashe urushundura barushyira mu mazi kugira ngo barebe ko hari amafi runaka bashobora gufata, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu babiri bisa nkaho bari kuganira, kuri uru rushundura hari utuntu turiho dusa nkaho ari utwo barobye.

Ni umugabo wambaye isengeri ndetse n'ipantaro yumukara na bote, akaba ari imbere y'uruzi runini, afite ifi aho ari kuyishyira ku munzani kugira ngo arebe ibiro iyi firi iri gupima, bisa nk'aho yayirobye imbere mu cyuzi gihari, urwo ruzi rukikijwe n'ibiti byinshi.

Ahantu ubona ko hitaruye, hakaba hari ibidendezi byubakiwe neza. Ibi bidendezi bikaba byororerwamo amafi. Ndetse imbere y'ibyo bidendezi hari ishyamba rihari.

Umugabo wambaye ingofero akaba yambaye n'ibindi bintu by'umuhondo bisa nk'aho ari umwenda w'akazi wabugenewe. Akaba ari mu murima, aho ari kugerageza gusarura igihingwa cye yahinze. Mu bigaragara ni uko uyu musaza yishimye kuko ari kureba imbere ahitegereje cyane.

Niabahinzi batandukanye bari mu murima wabo, bisa nkaho barimo barasarura. Bakaba ari bamwe mu bahinzi bahinga icyayi. Bari gusarura icyayi rero urabona ko bishimye cyane, abenshi bazamuye n'amaboko.

Igiti ubona ko kimeze neza, kikaba kiriho imbuto nyinshi, hari izikiri mbisi ndetse hari n'izindi zirimo zirashya, iki giti kikaba ari igiti cy'ikawa, aho hariho ikawa zatangiye guhisha ndetse n'izindi zitarera neza.

Abantu batatu ubona ko basa nkaho baje mu gishanga, hakaba harimo abagore babiri, abo bagore bakaba bafite utuntu tw'umweru mu ntoki ndetse umugabo wundi yambaye umupira bisa nkaho ari uwakazi n'ingofero y'umweru bisa nkaho yaje gusura umuceri uhinze muri icyo gishanga.

Akantu kameze nk'ibasi karimo ikawa nyinshi igiye itandukanye, hari ibiganza biri gukora mu ikawa isutse ahantu hameze nko kuri tapi, aho bari kugerageza kujonjora ikawa yeze muri izi kawa zisutse hano.

Igihingwa kiyi cyane ubona ko gihishije, iki ngiki kikaba ari igihingwa k'ikawa, urabona ko iyi kawa igeze mu gihe cyiza cyo gusarurwa kuko imaze guhisha cyane.

Umuntu uri ku gihingwa cy'ikawa, aho arimo arasoromaho udukawa tumwe twatangiye guhisha, hakaba hariho izindi kawa zitarahisha neza, ikawa ni ingenzi cyane kuko zifasha umuntu kubona amafaranga.

Abantu bari mu murima ubona ko ari umurima uhinzemo ibihingwa byiza cyane, buri muntu wese akaba afite agatete arimo agenda asoromeramo, kugira ngo baze gukusanya umusaruro barebe ko babona amafaranga. Muri uwo murima hateyemo ibiti bitandukanye.

Ibi ni ibiganza by'umuntu w'inzobe bigaragara ko ashobora kuba akuze ariko akaba atagaragara neza mu maso arimo arasarura ikawa ziri ku giti zimwe zikaba zihiye izindi zikaba zitarahisha neza.

Umugore uri mu murima, aho ari umurima uhinzemo imyaka igiye itandukanye, hakaba hari ikimera arimo arasarura cyifashishwa kimuha amafaranga ndetse hari n'urukoma rw'insina ruri kugaragara.

Uyu ni umurima bigaragara ko uhinzemo bimwe mu bihingwa. Bifasha umuhinzi kubona amafaranga mu gihe yasaruye ndetse hepfo yabyo, haragaragara ishyamba ry'ibiti byinshi. Haragaragara kandi inzu iri ruguru, imbere yayo hakaba hateye igiti kinini k'inganzamarumbo.

Ahantu hari imiti igiye itandukanye, iri mu ducupa tumeze nk'ibirahuri. Akaba ari imiti yo mu bwoko bwa ngombe, yifashishwa n'abaganga b'abaveterineri mu gihe bagiye kuvura amatungo agiye atandukanye.

Ahantu hari uducupa tugiye dutandukanye, utu ducupa tukaba turimo imiti y'ubwoko bwinshi ,ivura inyamaswa zigiye zitandukanye. Harimo nk'amavitamine ahabwa inka ndetse n'izindi nyamaswa.

Aha ni ahantu ubona ko hari ibicupa birimo imiti igiye itandukanye, iyi miti akaba ari imiti y'amatungo, ku ducupa tumwe hariho inka inkoko, ingurube, ihene ndetse n'ibindi bigaragara ko uyu muti ukoreshwa n'ayo matungo yose.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye, tukaba turimo imiti myinshi y'amatungo igiye itandukanye. Akaba ari imwe mu miti yifashishwa havurwa amatungo mu ngeri nyinshi zigiye zitandukanye.

Ahantu hororerwa inkoko zigiye zitandukanye, hakaba hari utuntu turimo imiti baha inkoko kugira ngo zibashe kuvurwa indwara nyinshi zigiye zitandukanye zihura nazo.

Agacupa gafite ibara byenda kuba umweru, ndetse kakaba gapfundikishije umufuniko w'umutuku ,kuri ako gacupa hakaba hariho icyapa cyanditseho ngo abesore .uyu ukaba ari umuti uhabwa amatungo, kugira ngo uyavure ibibazo bigiye bitandukanye.

Uducupa tw'ibirahure turimo imiti myinshi igiye itandukanye izwi nka za ngombe, iyi akaba ari imiti iterwa amatungo mu gihe amatungo yagize ikibazo, iyi miti yifashishwa na veterineri mu gihe ari kuvura inka cyangwa andi matungo.

Ni etajeri irimo uducupa twinshi tugiye dutandukanye turimo imiti y'amatungo, hakaba hari uducupa tumwe turiho igishushanyo cy'inkoko bivuze ko utwo ducupa turimo imiti yagenewe guhabwa amatungo y'inkoko.

Ahantu hameze nko muri etajeri hakaba habitsemo udukombe turimo imiti y'amatungo igiye itandukanye hakaba hari agakombe karimo vitamine baha inka, ingurube ndetse n'ihene.

Umubyeyi uhagaze ahantu hameze nko mu ifamu, hari inka nyinshi ndetse hari umuntu urimo arakama aho bisa nkaho ari gukamira mu ndobo y'icyuma, inyuma hari ibiti byinshi bigiye bihateye ndetse haragaragara n'undi muntu uretse ko atagaragara neza.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abambaye impuzankano imipira y'icyatsi n'ingofero z'umweru, bakaba ari abahinzi ubona ko barimo baratera ibiti cyangwa se imbuto runaka kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumererwa neza.

Ni mu murima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, hagaragaramo igihingwa k'ibigori ndetse hakaba hari n'urubingo umuhinzi yahinze, hakaba harimo umugabo usa nkaho afite umuhoro mu kaboko ke k'indyo, akaboko ke k'imoso kakaba gafite urubingo bisa nkaho agiye kurushyira amatungo yoroye.

Ni umugore wambaye ingofero ubona ko akeyeye yambaye n'agasaha keza ku kaboko k'imoso, arimo arakura igiti mu gihuho aho agiye kugitera, ari kumwe n'abandi ubona ko bamutegereje ngo barebe, hari umwana utegereje agashashi k'igihoho kugira ngo akabike mu gafuka.

Umuhinzi w'umugore ubona ko yambaye ikanzu ikoze mu dutenge aho afite agasuka ari kugerageza kwita ku bihingwa yahinze, inyuma ye hakaba hari ibindi bihingwa ubona ko byakuze cyane.

Ahantu hari inka nyinshi z'amabara atandukanye, ubona ko imbere yazo bazihashyiriye ibyo kurya, izi nka inyinshi muri zo zikaba zambaye amaherena ku matwi, mu bigaragara ni uko hari umuhinzi mworozi urimo arakora uyu mushinga akaba ari we uri kwita kuri izi nka zose.

Ni ahantu ubona ko hahinze ibihingwa bigiye bitandukanye hakaba harimo abahinzi barimo baragerageza kubikorera, hari umugore uteruye idegede mu biganza bye bigaragara ko yishimiye umusaruro ari kubona mu buhinzi bwe.

Umugabo wambaye umupira wenda gusa icyatsi, akaba yambaye n'agapfukamunwa ari ahantu muri pipiniyeri y'ibiti, hakaba hari ingemwe nyinshi z'ibiti zigiye zitandukanye aho afite urugemwe rumwe mu ntoki ze.

Ni ahantu bigaragara ko hororerwa inka zikaba ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Ni mu kiraro ubona ko cyubatse mu buryo bwa kijyambere, hari inka imwe bisa nkaho iri hanze y'ikiraro. Izindi zikaba ziri mu kiraro.

Ahantu hari udutete turimo imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, imboga, kokombure, urusenda ndetse n'izindi mbuto nyinshi zifashishwa hategurwa amafunguro aryoshye kandi ameze neza.

Igihingwa cy'ibisheke giteye ahantu iruhande rw'inzu nziza cyane, ubona ko isakaje amabati agezweho ndetse ikaba isize amarangi. Ibi bisheke bakaba babyifashisha bakuramo umutobe ndetse n'umuntu ashobora kubigurisha akabonamo amafaranga.

Ni mu butaka ubona bwiza cyane. Umuhinzi amaze gukura ibirayi. Hari ikiganza kigaragara gusa nyiracyo ntabwo agaragara. Icyo kiganza kikaba gifashe kimwe mu birarayi kiri kucyerekana. Bisa nk'aho aho uyu muntu yarari kwitegereza kino kirayi ngo arebe niba umusaruro we ukwiye.

Ubu ni ubuhinzi bukorwa cyane n'abanyarwanda aha ngaha hakaba hateye imigozi yeraraho ibijumba, ibijumba bikaba ari byiza cyane kuko biri mu biribwa byongera imbaraga.

Ni ahantu hari ubutaka bwiza cyane ubona ko bwera, hakaba hahinzeho ibishyimbo ndetse n'ibigori. Mu bigaragara ni uko ari umurima munini ushobora kuba uhinzeho zino mbuto, ndetse zikaba ari imbuto zikenerwa mu buzima bwa buri munsi

Umuntu w'umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ari mu nsina ze bisa nk'aho arimo arashaburira, imbere ye hari ibintu byinshi biharunze.

Abantu batatu ubona ko bari mu murima wabo bahinzemo ibihingwa bitandukanye, aho barimo baragerageza kubyitaho kugira ngo bazabashe gusarura umusaruro ufatika, hari ibiti byinshi bihateye.

Uyu ni umurima ukaba uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, haragaragara ibyenda kumera nk'ibigori ndetse inyuma y'aho hari ibiti bihateye ndetse haragaragara n'urutsinga ruri kwambukiranya rutanga amashanyarazi.

Igiti cy'indimu ubona giteye ahantu, kikaba giteweho n'ikindi giti k'itunda, aho hariho amatunda menshi ariko atarera neza, aya matunda umuntu akaba yayifashisha abona amafaranga kuko agurwa n'abantu benshi batandukanye.

Ahantu ubona ko hahinze imboga nyinshi zigiye zitandukanye, aha ngaha hakaba ari akarima k'igikoni, kurya imboga bikaba ari ibintu byiza cyane kuko imboga zigirira akamaro kanini umubiri wacu.

Iki ni igiti cy'indimu bigaragara ko hariho imbuto ebyiri cyatangiye kwera, iki giti kikaba kiryoha cyane ndetse kikaba gikorwamo n'imiti igiye itandukanye kuko cyifashishwa mu kuvura indwara.

Ni umurima ubona ko uhinzemo imbuto z'ibigori. Umuhinzi akaba yarabiretse ngo bibanze byumire mu murima. Hari ibigori byumye cyane, akaba azabyifashisha akuramo imbuto ndetse anakoramo ibiribwa.

Ni ahantu harimo hagaragara ubutaka bunini cyane, kuri ubwo butaka bwose hakaba hateye ibiti byinshi bigiye bitandukanyekanye, ibi biti bikaba byifashishwa bikurura imvura ndetse no gutanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Ahantu hagaragara nko mu ishyamba, hakaba harimo igiti kinini cy'inganzamarumbu. Iki giti kenda kumera nk'aho ari umunyinya, munsi yacyo harimo ihene eshatu zirimo zirarisha.

Ni ahantu hameze nko mu ishyamba ariko nanone rikaba atari ishyamba ry'inzitane, biragaragara ko wagira ngo ni mu ifamu nubwo nta nka zirimo ariko ni ahantu heza cyane ubona hari utwatsi tugereranyije.

Ahantu hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye, bigaragara ko ari mu ishyamba ryyinzitane. Mu bigaragara ni uko hano hantu hashobora kuba hatuyemo inyamaswa, kandi bitoroshye ko umuntu yajyamo uko yiboneye.

Ni ahantu ubona hahinze urutoki ndetse hakaba hari n'ibindi bihingwa bihari bigiye bitandukanye, hari ibigori, hakaba igiti cy'isombe, hari n'ibindi biti binini by'inganzamarumbo bihari.

Ahantu hameze nko mu ifamu hakaba hari ibiti byiza cyane by'inganzamarumbo, munsi y'ibyo biti hakaba harimo inka irimo irarisha, ni inka ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi by'inganzamarumbo ndetse by'ubwoko bugiye butandukanye, rikaba ari ishyamba ry'inzitane, inyuma yaryo hagaragara ikirere kiri mu ibara ry'umweru.

Ni ahantu ubona ko hari ishyamba rinini cyane ndetse ry'inzitane, iryo shyamba rikaba riri mu mabara y'icyatsi, biragaragara ko hagati muri iryo shyamba harimo umuhanda kuko haragaragaramo ikimodoka cy'igikamyo kirimo kiragenda.

Abantu bari mu mboga zihinze ahantu mu murima, bisa nkaho uyu mugabo wambaye ishati y'ubururu arimo agenda asobanurira bano babyeyi. Izi mbuto zikaba ari ingenzi cyane ndetse zikaba ziryoha.

Ikigori ubona ko bakivovoye igice kimwe kikaba kigaragara nk'ikigori cyeze, ibigori ni ingirakamaro kuko bifasha umubiri wacu kumererwa neza mu gihe umuntu yabiriye.

Ubuhinzi bwiza cyane ndetse bukaba ari ubuhinzi buzwi gukorwa cyane mu Rwanda, aho hano hari igihingwa cy'inyanya zihishije, bisa nk'aho umuntu yahinze inyanya, zikaba zari zigeze igihe cyo gusarurwa.

Umukecuru ubona ko akuzemo, aho afite isuka ari kugenda abagarira imboga zitandukanye yahinze ahantu. Aka kakaba ari akarima k'igikoni, aho yahinzemo imboga nyinshi kandi z'ingirakamaro.

Uyu ni umurima munini cyane uhinzemo inanasi, ndetse muri uwo murima hakaba hagiye harimo utuyira abantu b'abahinzi bacamo. Inanasi zikaba ziryoha cyane ndetse zivamo imitobe myinshi ifasha abantu.

Uyu ni umurima ubona ko ari munini uhinzemo amatunda, hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru iciyemo uturongo tw'umukara, aho arimo aritegereza amatunda ngo arebe uburyo angana ndetse ayahiye abashe kuba yayakuramo.

Umugabo uri mu murima uhinzemo pavuro munini, uyu mugabo akaba yambaye isarubeti y'icyatsi, mu biganza bye ateruyemo agatete gasa ubururu, aho arimo aragenda asoremeramo z'ino pavuro zahishije.

Mu Rwanda hari ubuhinzi bwinshi bugiye butandukanye, aha hakaba hari igihingwa kiriho imbuto nziza cyane ubona ko giteye amabengeza kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse kikaba kiri ku giti kinini cy'inganzamarumbo.

Umuntu uri mu murima yahinzemo imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, akaba ateruye akantu karimo inyanya, pawavuro, karoti, betarave ndetse iruhande rwe hakaba hari n'ibindi bihingwa bihahinze.

Ahantu harunze urusenda rwinshi rwa piripiri, uru rusenda rukaba ruhishije. Biragaragara ko umuhinzi yarusaruye rweza. Uru rusenda rukaba ruryoha ndetse rukaba rwifashishwa ahantu henshi hagiye hatandukanye.

Imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, zifashishwa hatekwa imboga, harimo karoti, pavuro inyanya, intobyi, imiteja, ibitunguru ndetse n'urusenda, ibi ngibi bikaba ari ibintu by'ingenzi cyane mu gihe umuntu ari gutegura amafunguro.

Ni akarima k'igikoni ,karimo imbuto nyinshi zigiye zitandukanye ,hakaba harimo ibitunguru biteyemo, karoti ndetse na beterave, izi ngizi zikaba zifashishwa mu gukora indyo nziza kandi yujuje ubuziranenge.

Igiti ubona ko gitoshye, hariho imbuto zeze neza zihishije, izi mbuto zikaba zitwa pome, hariho amababi meza cyane, ari mu ibara ry'icyatsi kandi zino mbuto zikaba ziryoha cyane.

Ni umubyeyi wambaye ikanzu ndetse n'agapfukamunwa akaba afite umusatsi w'umukara yafungiye inyuma, afite umugozi mu ntoki ze, uwo mugozi ukaba urimo urasohora amazi; uyu mubyeyi akaba ari kuhira imboga ze yateye akoresheje uwo mupira urimo uravamo amazi, hirya ye hari ibiti byinshi bihari n'amazu.

Ahantu hateye imboga nyinshi ubona ko harimo udukoresho twabugenewe dufasha kuhira izi mboga kugira ngo zitumba n'iyo haba ari mu gihe k'izuba, izi mboga zikaba ziteye mu karima k'igikoni ndetse iruhande rwazo hakaba hari n'ibiti byinshi bihari.

Ahantu ubona ari mu murima hateye imbuto ndetse n'imboga hakaba hari ibikandagizo by'umuntu bihari utagaragara neza, akaba afite igikoresho cyabugenewe aho ari kuhira izo mboga kugira ngo zibashe kumererwa neza.

Ni ahantu ubona ko hari ibyatsi wagira ngo hahinze ibintu bitandukanye, hakaba harimo akantu kameze nk'akamashini karimo kagenda kuhira, hubatse kandi ibintu bimeze nk'ibipoto by'ibyuma ariko ako kamashini ko kari kugenda kuhira ibyo bimera.

Ahantu ubona ko ari heza cyane, hakaba hagaragara uruzi runini cyane, iruhande rw'uruzi hagiye hateye ibiti bigiye bitandukanye ndetse hagaragara n'ikirere kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ni hantu ubona ko ari heza cyane ndetse habereye ijisho, ni ahantu mu musozi, hitegeye ubona hakurya no hakuno hose ari imisozi, hari ahantu hameze neza wagira ngo hateye icyayi ndetse hari ibiti byinshi bihakikije, hakaba hari n'inzu iri hagati mu biti by'irusu.

Ahantu hagaragara imisozi miremire ndetse hakaba hari insina zihahinze, hakaba hari n'ahantu hameze nk'ahari amatarasi, hari inzu ihari ndetse iyo nzu hejuru yayo hari ibyatsi bimeze nk'urubingo ndetse n'ibiti.

Ahantu hororerwa inka z'inyambo hakaba hari abantu babigenewe baje gusura izo nka kugira ngo barebe ibibazo zaba zifite babashe kuba bazitaho.

Ikiraro ubona ko cyubatse neza. Kikaba gikorerwamo ubworozi bw'amatungo yo mu rugo. Ni ikiraro kiza kuko gikorotiriwe n'ibyuma. Harimo inka yambaye iherena ku gutwi ndetse n'akantu ka kuma ku zuru.

Inka nyinshi ziri ahantu zororerwa hakaba hari abahungu babiri bahari, umwe yambaye ishati yenda gusa icyatsi n'akagofero undi akaba yambaye igisarubeti bisa nk'aho ari we wita kuri izi nka, imbere ye hari indobo iteretsemo amata bisa nk'aho bari bamaze gukama zino nka.

Icyumba kirimo inkoko nyinshi zigiye zitandukanye aho zimeze nkaho hari ikintu ziri kurya bamaze kuzigaburira, ubu bukaba ari ubworozi bwiza cyane bwifashishwa harwanya imirire mibi.

Ubu ni ubworozi bw'inkoko, aho harimo inkoko z'ubwoko butandukanye, isake, inkoko kazi, aha ngaha hakaba ari mu nzu yororerwamo izi nkoko ndetse hakaba harimo n'agakoresho kifashishwa, bashyiraho ibyo kurya by'izi nkoko.

Ni ahantu bigaragara ko harimo harakorerwa ubworozi bw'ihene ndetse bigaragara ko umugabo yaje kuragira ihene ze kugira ngo zibashe kurushaho kumererwa neza. Umugabo wambaye agapira k'umuhondo ahagaze ahirengeye aho arimo aritegereza amatungo ye.

Ahantu hakorerwa ubworozi ubona ko habugenewe, hatunganyijwe neza harasimatiye ndetse haranasakaye, harimo inka ndetse imbere y'iyo nka hari umugabo uhagaze, bisa nk'aho ariwe uri korora iyi nka.

Inka iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, ikaba iri aho yororerwa. Ni inka ubona nziza cyane bigaragara ko yitaweho ,ahantu iri hakaba hari ibyatsi bisashemo.

Inzu nini ubona ikorerwamo ubworozi bw'inkoko zigiye zitandukanye, harimo isake, inkokokazi, iz'imirangi, mu mabara menshi agiye atandukanye. Urabona ko hari ibiryo baba bazisukiyemo kugira ngo zibashe kumererwa neza.

Ubu ni ubworozi bw'inkoko zigiye zitandukanye iz'isake, inkokokazi zikaba ziri ahantu zororerwa aho hari amabasi agiye arimo ibiryo ndetse n'imiti yazo.

Ni ahantutu ubona ko hameze nko mu ishyamba, hakaba harimo ihene nyinshi zigiye zitandukanye, bisa nkaho ahangaha ari ahantu hagenewe kuragirwa ihene ndetse iruhande rw'izo hene hari abantu benshi bari kwitegereza izo hene.

Ahantu hakorerwa ubworozi bw'inkoko, hakaba harimo imishwi myinshi cyane ndetse hakaba hari n'agakoresho gapfundikiye ubona ko wagira ngo karasakariye, ikindi hakaba hari akantu kaba karimo amazi ndetse n'ibiryo bagaburira inkoko.

Imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, zirunnze ahantu hamwe, hakaba harimo ibishyimbo by'amoko agiye atandukanye, soya, amashaza ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Ni igikoresho gisa umweru, ubona ko umuhinzi yakimennyemo imbuto nyinshi, harimo ikiganza cy'umuntu utagaragara neza wambaye uturindantoki tw'umukara, aho yakoze muri izo mbuto arimo arazitegereza neza.

Shitingi ikaba iriho ibigori byinshi, ibivunguye ndetse n'ibitavunguye, mu bigaragara ni uko uyu muhinzi afite intego yo kubika, byamara kuma neza, akaza kubivungura.

Ibiganza by'abantu bagiye batandukanye batagaragara neza mu maso, bakaba bakoze mu mbuto aho buri kiganza cyose gifite imbuto, izi zikaba ari imbuto zifashishwa batera kugira ngo bazabashe gusarura ibintu byinshi.

Ibigori ubona ko byumye aho umuhinzi yabiretse bikerera mu murima. Iki kigori umuhinzi ashobora kuba yagikoramo imbuto kugira ngo mu isizoni itaha, azabashe kugitera yongere akibyaze umusaruro.

Ahantu hari imifuka myinshi ipakiyemo imbuto zigiye zitandukanye, hakaba hari umwana w'umukobwa urimo aragenda areba izo mbuto. Uwo mwana yambaye umupira w'umukara ndetse ari kugenda akora muri buri mufuka yumva imbuto uko zimeze.

Umukobwa wicaye iwabo mu rugo akaba yicaye ku ntebe y'ubururu, aho imbere ye ku mufuka hari ibigori aho ari kugerageza kubivungura, uyu mukobwa ari kuvungura bino bigori abikura ku bitiritiri byabyo kugira ngo yibikire imbuto azatera.

Abaveterineri ubona bambaye impuzankano zabugenewe, baje gusura inka z'inyambo kugira barebe ibibazo zaba zifite, babashe kuba bazivura kandi zigumye kumererwa neza.

Abaganga b'amatungo ubona ko bambaye ibisarubeti, cyangwa se impuzankano zabugenewe, baje mu rwuri rw'inyambo aho baje kureba ibibazo zimwe mu nyambo zifite, kugira ngo babashe kuzivusha.

Abantu batatu bigaragara ko ari abaveterineri bari ahantu mu cyumba, ku meza harambitse imbwa umwe mu baveterineri afite agakoresho kabugenewe yashyize mu matwi aho ari kugerageza kuvura ino mbwa, abandi bakaba barimo bamufasha.

Inka nziza cyane bigaragara ko ari inka yitaweho aho ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara bikaba bigaragara ko hari ikibazo ifite bisa nkaho ikeneye umuganga w'amatungo ngo aze arebe uko yayigenza.

Abaganga bavura inka bambaye amataburiya yabugenewe, aho baje gusura inka z'inyambo aho zororerwa kugira ngo barebe izifitemo ibibazo babashe kuba bazivura.

Abaganga babiri b'amatungo bambaye ibisarubeti by'ubururu, bakaba bari ku kiraro k'inka, harimo inka bisa nk'aho umwe yayifashe umurizo yawuzamuye, undi bigaragara ko hari urushinge agiye kuyitera kugira ngo ayivure.

Uyu ni umuvuzi w'amatungo, wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki. Afite urushinge aho yaruteye mu muti arimo aragereranya areba ibipimo by'umuti agomba gutera inka, cyangwa irindi tungo rifite ikibazo.

Umugabo wambaye igisarubeti cyabugenewe, uyu mugabo akaba ari veterineri, ari mu kiraro cy'inka, aho yaje kureba icyo iyo nka yaba irwaye kugira ngo abashe kuba yariha ubuvuzi bw'ibanze.

Aha hari inyamaswa y'ishyamba ikaba iri mu bwoko bw'inyamaswa z'ibiguruka yenda gusa nk'imbata yororerwa mu rugo ikaba ifite amababa arimo utuntu tw'umweru ndetse n'utudomagure tw'umukara, umunwa wayo ni umuhondo.

Ahantu ubona ko ari heza cyane hakaba hari ishyamba ndetse n'ibyatsi bitohereye, hagaragara inyamaswa y'ishyamba izwi ku izina ry'idubu. Ni idubu ubona ko ari rinini cyane rihagaze ahantu hamwe riri kwitegereza imbere.

Ni utunyamaswa dutatu ubona ko tukiri dutoya tukaba ari utunyamaswa tw'ishyamba, tukaba twiryamiye ahantu bisa nk'aho hari ikintu runaka turi kwitegereza imbere yatwo.

Imwe mu nyamaswa z'ishyamba ikaba izwi ku izina ry'intare iri kumwe n'akana kayo gatoya bikaba biri ahantu ubona ko hari utwatsi dutoya.

Ni ahantu ubona ko hameze nko mu Kagera, hakaba hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye, ndetse ibyatsi byaho bikaba bimeze nk'aho byumye, harimo utunyamaswa twinshi tw'ishyamba, twitwa impongo, ubona ko twirundiye ahantu hamwe.

Izi ni inyoni nziza cyane, zikaba zibera mu mashyamba. Izi nyoni zikaba ziri mu bwoko bw'ibiguruka ndetse zikaba zifite ku mutwe h'umweru ndetse n'umukara.

Ni ahantutu ubona ko hitaruye hakaba hari ibyatsi ubona ko byumye, hari igiti kihahagaze gifite amashami ndetse muri ibyo byatsi byumye harimo inyamanswa y'ishyamba izwi nk'inzovu.

Iyi ni inyamaswa y'ishyamba izwi nk'intare y'ingore, ikaba iri kumwe n'abana bayo bagiye batandukanye. Iyi ntare ndetse n'aba bana, bari ahantu barimo baranywa amazi.

Mu mashyamba agiye atandukanye yaba yo mu Rwanda ndetse n'ahandi usangamo inyamaswa z'ishyamba zigiye zitandukanye, aha hagaragara inyamaswa y'ingwe yiryamiye ahantu ku giti ndetse iruhande rwayo hakaba hagaragara amababi y'ibindi biti bitandukanye.

Ahantu ubona hari ibyatsi byinshi bitohereye ndetse n'ibiti byiza ubona hasa nk'aho ari muri pariki, hari inyamaswa y'ishyamba ihari, iri kumwe n'abana bayo batatu.

Izi ni inyamaswa zo mu ishyamba ziri mu ubwoko bw'ibiguruka, zenda kumera nk'imisambi ndetse zikaba zaguye ahantu hari ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye.